Abantu bicaye ahantu mu nzu, imbere hari umuntu uri kubaganiriza yambaye ishati iciye amaboko y'umweru iriho ikirangantego k'Igihugu birasa nk'aho ari ku baganiriza ku nsanganyamatsiko runaka.

Umukozi wo mu ishami rishinzwe ubuzima, imbere ye hari indangururamajwi biragaragara ko ari gutanga ikiganiro kerekeye ubuzima. Ni byiza ko tumenya amakuru yerekeye ubuzima, kugira ngo twumve uko duhagaze.

Abagore bari mu nzu yaho babyarira bafite abana bamwe baryamye ku bitanda bisa nk'aho baje kureba bagenzi babo kwa muganga, ni byiza abana ni beza.

Abantu bicaye ku ntebe harimo umusaza, umugore witwikiriye igitenge n'undi witandiye akantu k'umukara. Umusaza wambaye ishati ijya gusa n'umweru. Inyuma ye hari umugabo wambaye amarinete ndetse n'itaburiye y'umweru.